Abaganga bari kwita ku murwayi urembye cyane, aho bari gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga kandi bigezweho mu buvuzi, kandi bambaye imyambaro ibafasha kwirinda zimwe mu ngaruka bashobora guterwa n'indwara bakanduzwa n'abarwayi bari kwitaho.

Inzu icururizwamo imiti y'ubwoko butandukanye， aho abantu bayigana bagiye kuguriramo， imiti baba bandikiwe na muganga， kubera ko akenshi ku bitaro iba itahabonetse.

Igihingwa cya beterave giteye mu butaka bwo kugifasha kugira ngo kibashe gukura neza. Beterave ni ikiribwa gifasha umubiri w'umuntu cyane cyane iyo yagize ibibazo byo kugira amaraso make kuko kiyamwongerera.

Icatsi kitwaga igishokoro kigiraga uruyange gw'umweru, utubabi duto duto kandi dusongoye, kirangwaga no kumera mu bihuru hirya no hino, kandi gikundaga gufatira ku myenda z'umuntu, cane cane iyo umuntu acegereye.

Igihuru kirimo amabuye, ibiti, ibyatsi birimo igifuranindi ndetse n'umucaca, agacaca keza katohagiye, ndetse n'igifuranindi gifite uruyange rwiza rw'umuhondo.

Umutobotobo munini kandi ufite amababi ashishe. Umutobotobo ni igiti kirimo amoko abiri, aho ubwa mbere bugira amahwa ubwa kabiri bwo nta mahwa bugira, kandi bakunda kubwifashisha iyo bari gushyira imbago hagati y'imirima.

Igiti kikiri gitoya kiironji, aho cyahinzwe mu butaka bwiza cyane, bufite ifumbire ikigaburira, maze kikazabasha gutanga umusaruro mwinshi kandi uhagije, ubwo kizaba kimaze gukura neza.

Igiti cy'umuzabibu giteye ahantu hari utwatsi aho kiri gukura neza kizana n'amatabi menshi, kugira ngo kizabashe gutanga umusaruro mwinshi kandi mwiza, umuzabibu ni igiti gifite amateka akomeye muri bibiliya cyane cyane mu gihe cy'umwami wacu Yezu.

Umurima mwiza cane kandi gw'ibitunguru bibyibushe bimeze neza, aho byarangije kubagarigwa kugira ngo bizabashe gutanga umusaruro mwinshi kandi gwumeze neza ku isoko.